Akazu keza cyane gakozwe mu cyuma kakaba gateye irange ry'umutuku, aho ari ak'umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, aho acuruza serivisie zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Umugabo wambaye ipantaro y'itiriningi, inkweto za badaboda n'agapira k'umweru k'amaboko magufi, akaba yaje gushaka serivisi aho yaje kugura telefoni nk'icyuma k'ikoranabuhanga, haruguru ye hari akazu k'umuhondo gacururizwamo serivisi zo kubitsa no kukuza.

Akazu kari mu mabara atandukanye kiganjemo irangi ry'umutuku, kakaba gakozwe mu biti aho gacururizwamo serivisi zo kubitsa no kubikuza ku mukozi ukorera sosiyete y'itumanaho ya Airtel.

Inzu nziza cyane ikaba ari ivuriro. Isakaje amabati atagaragara. Iriho igitapangu giteyeho irangi ry'umuhondo, ndetse n'amadirisha y'ibyuma, imbere ku muhanda w'amapave hakaba hari n'umutaka w'umuhondo.

Ni ku mugaragaro imbere y'umuhanda, hakaba hari abantu batatu babiri bakorera sosiyete y'itumanaho ya Airtel n'undi mukobwa umwe wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru waje gushaka serivisi zo kubitsa no kubikuza. Inyuma yabo hari inzu yanditseho ngo agaciro.

Umugabo wambaye ikote yambaye karuvati, akaba yicaye imbere y'imbaga afite igipapuro, aho ari kwamamaza umuyoboro w'itumanaho wa Airtel, avuga ngo ohereza amafaranga ku mirongo yose.

Abantu benshi cyane bari ku muhanda. Hakaba hari imitaka ibiri ,umwe w'umuhondo w'isosiyete y'itumanaho ya MTN.Ndetse n'undi w'ubururu wa sosiyete y'itumanaho ya Tigo. Bose bakaba bacuruza serivisi zo kubitsa no kubikuza.

Ni akazu keza cyane gateye irangi ry'umuhondo kakaba ari aka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN ahatangirwa serivisi zo kubitsa no kubikuza, hanze yako hari umugabo wicaye ari na we ugakoreramo.

Inyubako nziza cyane yubakishije ibiti byinshi bihagaze, hasi iteye sima, ikaba iriho amabati y'ubururu ndese iriho n'umureko aho izajya yifashishwa n'abagize koperative nk'ubuhunikero bw'imyaka yabo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite mikoro mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'imbaga aho ari kwigisha abantu batandukanye bibumbiye mu makoperative, uburyo bwo gucunga umutekano w'amafaranga yabo.

Umugore wambaye agapira k'umutuku, akenyeye igitenge, yambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu ndetse akaba yiteze n'agatambaro mu mutwe. Ahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibishyimbo kugira ngo yiteze imbere.

Ni umunsi mwiza cyane, abagize amakoperative mu murenge bahuriye hamwe kugira ngo baganirizwe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ufite mikoro akaba ari inzobere mu bijyanye n'icungamari.

Umugore w'umwirabura afite umusatsi usanzwe, afite telefone mu ntoki n'ikaramu, yambaye agapira k'ubururu kariho ikirangantego cy'u Rwanda, akaba afite na mikoro mu ntoki, aho ari kuganiriza abamukurikiye ibyiza byo gukorera hamwe.

Ibigori byinshi cyane byeze bikaba byumye, aho byahinzwe na koperative ku bufatanye na Leta y'u Rwanda kugira ngo iteza imbere abaturage, bikaba biri mu nzu y'ubuhunikiro aho bisarurwa bikanikwa.

Abantu benshi cyane bambaye amakote bigaragara ko ari abakire, bakaba baje muri banki gushaka serivisi zitandukanye zo kubitsa ndetse no kubikuza, muri bo hari n'abashinzwe umutekano barimo abasirikare ndetse imbere yabo hari umugabo ukora muri banki wabakiriye.

Ni muri banki iteye amarangi y'umuhondo n'umweru. Harimo umugore ukora muri banki, wambaye ikoti ry'ikositimu. Akaba yakiriye umugabo w'umukiriya, aho ari gusinya ku rupapuro kugira ngo bamuhe amafaranga.

Inyubako ya banki ahatangirwa serivise zo kubitsa no kubikuza amafaranga. Harimo abakozi babiri bo muri banki ndetse n'abandi batatu baje gushaka serivise, hakaba hagezweho umugore wambaye iby'umukara.

Amabanki n'amakoperative atandukanye akora serivise zitandukanye, hano twavuga nka Banki y'Abaturage y'u Rwanda, aho igira amashami mu duce dutandukanye ndetse na Equity, hakaba hari umuntu uyihagarariye muri buri gace.

Abantu benshi cyane bakora muri banki ndetse n'abandi bibumbiye mu makoperative, bambaye imyenda y'umweru irimo amataburiya, uturindantoki ndetse n'udushashe mu mutwe, bakaba bambaye n'udupfukamunwa aho bari kugenda batondeka ibiribwa mu makarito.

Umugore wambaye ikanzu iri mu mabara y'ubururu, umutuku n'umweru, akaba acuruza imiti gakondo itandukanye ku bufatanye na koperative ndetse n'amabanki, akaba ageze ku kigero gishimishije mu bukungu bwe.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore bakaba baribumbiye mu makoperative aho bafashanya guhinga ibihingwa bitandukanye nuko bakabigurisha bakarushaho kwiteza imbere ndetse no gufashanya.

Inkoko nyinshi cyane zikaba zororwa n'amakoperative atandukanye, harimo umukobwa umwe wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'umweru w'amako magufi, aho ari kugenda azigaburira azihereza ibyo kurya.

Abagabo benshi cyane abakora muri banki ndetse n'abandi bakora mu makoperative, bambaye neza ubona ko babukereye, imbere yabo hakaba hari umugabo ufite mikoro uri mu gishoraraga uri gucuruza inanasi n'ubuki, akaba ari kubaganiriza.

Inyubako nziza cyane icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Haragaragara ibinyobwa cyane cyane biri mu kabati ndetse na firigo. Hakaba n'ibindi biteretse ku meza.

Muri hoteli nziza cyane ahateguwe amafunguro meza ateye amabengeza. Hari inkoko yakaswe neza ikaba iri ku isahani, ikaba yavanzwe n'igitunguru, iruhande rwayo hateretse inzoga ya mitsingi.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati ya karokaro undi yambaye ishati ijya kuba ubururu, bakaba bicaye mu kabari ku dutebe tureture, aha baje kunywa inzoga kugira ngo barusheho kwiyumva neza.

Ni inyubako nziza cyane icururizwamo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo imyambaro ndetse n'ibindi by'ubwiza, harimo abantu benshi cyane baje guhaha biganjemo abagore kuko bari gutoranya ibitenge bareba ibyiza kugira ngo babigure.

Ni inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubucuruzi, harimo umugore wihangiye umurimo akaba acuruza ubunyobwa, amavuta ndetse n'amasabune.

Ni inzu nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Harimo saradine ebyiri za jambo. Agakombe karimo isukari. Akandi gapapuro k'ubutumire, ndetse hakaba n'ipaki imwe y'amavuta. Byose bicuruzwa ku giciro gito.

Inyubako nyinshi cyane zicururizwamo zikaba zifunguye, zifite ibaraza ryiza cyane, mu ibaraza hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa byinshi, aho imbere yazo hari imbaga nini irimo amapave.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo amavuta yo kwisiga, amasabune, ibiribwa birimo amagi, ibinyampeke ndetse n'ibinyobwa birimo amaji ndetse na fanta z'ubwoko butandukanye.

Inyubako nziza cyane icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'ubwiza, turabonamo amavuta meza cyane y'igikotoro, ari: Moviti, Sikara ndetse n'andi menshi arimo Sante, hakaba n'andi mavuta y'amazi harimo na parufe.

Umugore w'umwirabura ucuruza ibicuruzwa bitandukanye akaba yarihangiye umurimo, aho acuruza ibinyampeke ndetse n'ibindi biribwa birimo ibitunganyijwe mu nganda ndetse n'ibirungo muri rusange.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, ni inzu nini ifite ibaraza rinini, aho ibaraza ririmo akabati ndetse imbere yako, hakaba hari ameza, hakaba hari n'indobo y'umweru, ya kandagira ukarabe.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda y'abagore n'abakobwa, hari ibipupe bibiri mu ibaraza hakaba n'ikindi kimwe cyambaye umwenda w'umweru gihagaze mu mapave.

Inyubako y'ubucuruzi icurizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'uburoso bw'amenyo, buri mu mabara atandukanye y'icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu, bukaba bwifashishwa mu koza amenyo.

Umukobwa wihangiye imirimo yambaye ishati y'amako maremare, akaba afite inyinya afite n'umusatsi usanzwe, aha acururiza mu nzu ye bwite, aho acuruza ibikoresho bitandukanye byiganjemo iby'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, bakaba bacuruza twa situruwaya twifashishwa mu koza ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibikozwe mu byuma nk'amasafuririya ndetse n'amasahani.

Umukobwa wambaye ingutiya y'umukara ndetse n'agapira k'umweru, akaba acuruza ibicuruzwa bitandukanye mu nzu ye aho yihangiye umurimo, acuruza ibiribwa n'ibinyobwa kandi ku giciro gito.

Umugore w'umwirabura yambaye isengeri y'umukara ndetse yiteze n'igitambaro cy'umweru. Akaba ari mu nzu, aho acururiza ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa nk'inyanya, imigati, amandazi ndetse n'ibindi byinshi.

Mu nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye irafunguye imbere yayo hakaba haparitse igare, hari ibindi bicuruzwa birimo amabasi, indabo, bikombe, imifuka, ibikarito ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Mu nyubako y'ubucuruzi hakaba hahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye birimo ubunyobwa ndetse n'amagi ahiye aho ari mu gapaniye, hakaba harambitsemo ikanyaya ndetse n'umunyu.

Umugore wihangiye umurimo. Yambaye amadarubindi akaba ari mu nzu acururizamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda y'abagore ndetse n'indi myenda yo ku gitanda irimo amashuka n'ibiringiti, aho abicuruza ku giciro gito.

Umugabo w'umupadiri akaba ari uwo muri Kiriziya Gatulika, yicaye imbere y'imbaga. Inyuma ye hari umusaraba ukozwe mu giti ndetse akaba ari mu kiriziya giteye irange ry'umweru.

Ni mu kiriziya aho abakirisitu ba Kiliziya Gatolika basengera. Barahagaze, bakaba bageze mu gihe cyo guhimbaza Imana. Imbere hari abantu babiri barimo musenyeri ndetse n'umupadiri.

Inyubako nyinshi cyane zubakishije amatafari ahiye ya ruriba, imbere hakaba hari ubusitani butarakura hashinzemo n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hari umuhanda munini cyane umanuka unyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu rusengero. Bakaba ari abayoboke b'idini y'abakirisito, aho imbere yabo hari uri ku bigisha ijambo ry'Imana ndetse anabasobanurira.

Inzu irimo ibaraza ikaba iteye irangi ry'umuhondo, iteye irangi ry'umweru ku bikuta hamwe na hamwe ndetse no ku nkingi ikaba irimo itara ryiza cyane, hanze yaryo hakaba hari intebe isa n'aho hakirirwa abakiriya.

Inyubako nziza cyane ya hoteli, iteye amarangi y'umuhondo ikaba ari igorofa igeretse rimwe, ifite amarembo manini cyane magari acamo ibinyabiziga, ku ruhande hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru irimo amapave.

Inzu ya hoteri ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba hateguwe ibyo kurya byiza cyane ndetse n'ibyo kunywa, mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye amadarubindi, akaba yambaye n'imyenda, ipantaro n'ishati bisa. Yagiye muri hoteli, aho yagiye gushaka ibyo kurya. Yicaye mu nzu wenyine, ubona ko ari inzu isa neza isukuye ariko nta muntu waje kumwakira.

Inyubako nziza cyane ya hoteli, iteye irangi ry'umuhondo yanditseho izina ryayo ko yitwa Erija, imbere hakaba hari n'umuhanda unyuramo ibinyabiziga, aho hari n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Mu nzu ya hoteli itangirwamo serivisi zitandukanye z'ibiribwa n'ibinyobwa, hari n'indi serivisi ihatangirwa yo koga. Hakaba ari pisine nini cyane, iruhande rwayo hari amabuye ndetse n'amapave, hakaba hari n'umucaca.

Inyubako ya hoteli itangirwamo serivise zitandukanye, ari iz'ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ubukerarugendo. Harimo etajeri nini cyane, irimo ibibumbano bitandukanye by'abantu bari ku magare ndetse n'uduseke tugaragaza umuco nyarwanda.

Inyubako nziza cyane za hoteri, zikaba zitaruye, zifite ikibuga cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Hari amapoto abaho amatara, hakaba n'ubwogero bwiza cyane bw'akataraboneka, bwifashishwa n'abagana iyi hoteri.

Inyubako nziza cyane ya hoteli irimo ameza n'intebe byakirirwamo abashyitsi, iyi nyubako irimo itara ryiza cyane ritica amaso, ndetse ku meza hakaba hari amasahani arimo atuntu bifashisha bahanagura amavuta yabafashe ku ntoki.

Inyubako nini cyane ya hoteri ni igorofa igeretse gatatu, ikaba itamaranye umweru imbere yayo mu mbuga hari abantu benshi cyane barimo abambaye amajire ndetse n'abandi batandukanye baje kubahashaka serivisi.

Isoko rinini cyane ryo mu cyaro. Hakaba hatanditse inkweto z'abagore, abagabo ndetse n'abana bato, ziri mu mabara y'umuhondo, icyatsi, umukara, umutuku ndetse n'ubururu, zikaba zose ari bodaboda.

Isoko ryiza cyane ricururizwamo ibikomoka ku buhinzi, hari ihema rinini cyane rirambitseho ibitunguru byinshi ubona ko bibyibushe ndetse hakaba hari n'umunzani wifashishwa mu kubipima.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyenda y'abana ndetse n'iy'abagore, harimo n'amamarete, ku ruhande haparitse amamoto yajeho umumotari aje guhaha imyenda.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko. Bakaba baje gushaka ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba harimo n'abandi bari kubicuruza. Hakaba harimo abazunguzayi bikoreye ibikombe, amabase, indobo, imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ryiza cyane ryo mu cyaro, rikaba ricururizwamo ibintu byinshi cyane byiganjemo imyambaro y'abagore, aho hari igisharagati gitanditsemo ibitenge n'ingutiya, hakaba n'abantu benshi baje guhaha iyo myenda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, bahuriye mu masoko, aho bajeha ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibiribwa. Hari imitaka myinshi cyane igenda ikingira ibicuruzwa izuba, hakaba haparitse n'imodoka.

Amahene meza cyane abiri, aryamye mu rwuri, akaba aziritse imigozi mu ijosi. Hirya yayo hari undi muntu wambaye bote, akaba ari we nyirayo aho agiye kuyajyana ku isoko.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, bakaba baje guhaha ibyinshi byiganjemo imyenda. Hari umugabo umwe w'umucuruzi wambaye poketi, akaba yambaye inkweto zifunze aho ari gutandika imyenda ndetse n'inkweto.

Abantu benshi cyane bahuriye mu isoko. Abenshi muri bo ni abagore n'abakobwa, bakaba baje guhaha imyenda itandukanye. Inyuma yabo hari imyenda imanitse ndetse n'inkweto za bodaboda, ziri mu mabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo n'izindi.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo ugana ku isoko rusange, uri kugendamo umugore wambaye ipantaro ndetse n'ikanzu aho yikoreye umufuka urimo amashu ajyanye ku isoko.

Inyubako nziza ya resitora, ni igorofa iteye amarangi y'umweru hejuru kuri parafu, hakaba harimo n'amatara meza cyane acana urumuri rutica amaso, muri iyi nzu harimo ameza ndetse n'intebe bitandukanye byifashishwa n'abakiriya.

Inyubako nziza cyane ya resitora. Iteye amarange y'umweru, irimo amatara meza, ikaba icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imbere hari ameza ndetse n'udutebe twiza, aya meza akaba ariho ibyo kunywa.

Ni umuhanda wa kaburimbo imanuka. Iruhande hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibisima biri mu mabara y'umukara n'umweru. Muri uyu muhanda hari kumanukamo imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru aho igiye ku bitaro.

Ni umuhanda wa kaburimbo umanuka, aho harimo igare ripakiye amabati ndetse n'umugabo uri kuyasunika kuko atabona uko aryicaraho, hepfo y'umuhanda, hakaba hari amazu menshi cyane, akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo, uramanuka ukaba uriho ibisima ku ruhande biri mu mabara y'umukara n'umweru. Hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, hakaba hari n'umugabo ufite igare ari kurisunika.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, uri kumanukamo ikinyabiziga cy'ikinyamitende aho kiriho ugitwaye ndetse n'umugenzi, hepfo hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Umugabo w'umuyonzi atwara igare rirerire, akaba aririho yambaye agapfukamunwa, aho rifite umusego muremure bigaragara ko ryakwicaraho abantu babiri. Iruhande rw'umuhanda hari ibishyimbo bitoshye, ndetse n'urutoki.

Ni umuhanda wa kaburimbo. Ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'ikimodoka kinini, kuruhande haparitse moto ebyiri ziriho banyirazo, hirya hakaba hari amazu meza cyane y'uducurama, atuwemo n'abantu.

Abagabo babiri b'abamotari umwe muri bo ari kuganiriza umugenzi kugira ngo amwishyure undi akaba ahetsee umugenzi, bakaba bahagaze iruhande rw'igipangu cyubakishijeje amatafari ahiye.

Umugabo w'umumotari yambaye ikasike y'icyatsi, yambaye n'ijire y'umutuku akaba ari kuri moto aho ari kuyitwara mu muhanda w'igitaka ariko akaba nta mugenzi afite.

Umugabo w'umumotari yambaye ingofero irinda umutwe y'umutuku. Aho ahetse umugezi wambaye ingofero irinda umutwe y'icyatsi, bakaba bari kumanuka muri kaburimbo birukanka cyane. Hepfo y'umuhanda, hari inzu zituyemo abantu.